Abantu bicaye bari mu nama, bafite raputopu imbere yabo, amazi, ajenda, ndetse n'amakaramu, izo raputopu zikaba ziri ku meza ndetse bakaba bicaye muri salle ari benshi n'undi uhagaze mu muryango.

Abantu bicaye ahantu hamwe muri sare nini cyane, iyo sare hagati ikaba ifitemo inkingi y'icyuma, hakaba harimo abambaye imipira asa imipira y'icyatsi, n'imipira y'umuhondo, n'imipira y'ubururu, bakaba bicaye mu byerekezo bitandukanye.

Abantu bicaye benshi harimo benshi batandukanye bambaye rineti, bose bakaba bambaye baji zibara ry'icyatsi kibisi mu gatuza.

Abantu bicaye mu byerekezo bitatu bitandukanye n'undi uhagaze uri imbere yabo imbere ye hakaba hari akameza kariho igitambaro cy'umweru ndetse akaba afite n'araputopu imbere ye abandi bakaba bamuteza amatwi.

Abantu bicaye ku ntebe ebyiri zirebana, hakaba hari abari kureba kuri mashine, abari kureba ku, ufite terefoni n'ikaramu mu ntoki, hakaba hari undi uhagaze, amazi imbere yabo inyuma yabo hakaba hari amarido yegeranye.

Abantu bicaye bambaye imipira isa umwe uteye agatoki hejuru wambaye amadarubindi, amazi imbere yabo, ameza afite igitambaro kibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ndetse n'abandi bicaye inyuma yabo.

Abantu bicaye mu nama bafite uducupa tw'amazi imbere yabo bashyizeyo amakayi ku meza bakaba bari kureba mu kerekezo kimwe.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari amagambo barimo baganiraho, ndetse bicaye imbere y'ameza ariho uducupa tw'amazi, amararaputopu bamwe, udupapuro ndetse n'amakaramu, hari uri gufotora kuruhande rw'ibumoso uri mu ntebe z'umukara.

Abantu bicaye ku itapi y'ubururu, bicye ku ntebe zitandukanye, buri wese iruhande rwe hakaba hari ikirahure, bakaba bafite amakaye mu ntoki ndetse bakaba bateretse akaguru ku kandi amazi akaba ari munsi ye, ku ishami ry'imikindo.

Umuntu wicaye uzamuye akaboko wambayenete, ameza adekoje igitambaro cy'ubururu n'umuhondo, amazi ateza imbere ye undi yambaye ishati y'ubururu bwijimye, akaba ari kumureba bose bakaba bicaye mu kerekezo kimwe.

Abantu bicaye ku ntebe bari kureba imbere, umwe akaba yifashije mu kiganza, undi nawe akaba yifashe ku ntoki, undi akaba asa n'ugiye guseka wambaye ikositimu ya kaki, inyuma yaho hakaba har’abandi bantu, hakaba hari camera.

Iyi foto iratwereka abantu bicaye bo mu nzego zitandukanye harimo polosi harimo abambaye imipira y'icyatsi, n'abandi bambaye imipira y'umuhondo hakaba hari abafite amazi imbere yabo abandi bakaba bafite ji. Bakaba bicaye bose bafashe positeri imwe.

Abantu bicaye ahantu henshi imbere yabo hakaba hari amazi ndetse na ajenda, hakaba hari abarikurebaa mu cyerekezo kimwe hakaba hari n'abandi bahagaze inyuma.

Abantu bicaye mu itente, ikigega, imiryango ifunze, umuntu uhagaze urikuvuga ufite mayikoro fone, hepfo hari ikindi kigega hari na kandagira ukarabe intente rikaba ridekoje ry'icyatsi.

Aha hari umuntu uhagaze hari abandi benshi bicaye hari undi usa n'uwunamye uri gutambuka hakurya hari imodka ndetse n'amazu ikigaragara cyo abantu bakaba bicaye bari mu nama.

Umumama uhagaze witandiye, ufite mikoro ari kuvuga, abandi bamama bagenzi be bakaba bari kumureba, hakurya ye hakaba hicaye abagabo babiri, bose imbere yabo hari mashine, bakaba bicaye ku ntebe z'umuhundo ndetse hakaba hari na bafure inyuma ye.

Ta yatwirukanye umucaye mutayu harimo n'umuyobozi haramana ateretse imbere yabo wabagirizaga gugo ande kuri telefoni hari abandi bane bahagaze inyumaka bamwe barazajya gucuga.

Abantu bicaye ku ntebe zitandukanye, abenshi bakaba bambaye amashati y'imyeru, hakaba hari n'uwambaye umupira wa karokaro ndetse imiryango yawo ikaba ifunze.

Abantu bicaye mu nyubako bakaba bicaye ku murongo bakaba imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'ubururu n'umuhondo, bakaba bafite amazi imbere yabo hakaba hari uri kuri terefone na mashini.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibiti abandi bakaba bahagaze hakaba harimo abakecuru bitwaje utubando baturambitse hasi, hakaba hari umugabo uhagaze imbere yabo wambaye ipantaro y'ikake n'ijire y'umukara uri kuvuga, hakurya hakaba hari inzu.

Abantu benshi bitandiye udutambaro tw'umweru mu mutwe, bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amapantaro y'ubururu bwijimye abandi bakaba bari inyuma yabo, hakaba harimo bamwe bahagaze, bamwe bakaba bifashe ku munwa.

Abantu benshi bahagaze imbere y'amashuri imbere yabo akaba hari umupolisi bakaba bafite icyapa cyanditseho y'uko bagomba kurwanya sida, umupolisi akaba ari imbere y'abo bantu bahagaze hamwe.

Abantu bicaye ku murongo harimo umusaza wambaye amarinete n'ikote ry'umukara, afite ikaramu mu ntoki n'impapuro munsi ari kwandika, nundi ari kureba hirya muri telefone wambaye amarinete hakaba harimo ufite imvi.

Abantu bicaye ku ntebe z' imikara bafite amazi imbere yabo n'uturahure, abandi bicaye inyuma yabo buri muntu arareba ahantu hatandukanye, hakaba n'undi uhagaze.

Abantu bicaye mu nama, imbere yabo hari amamashini, amazi, ajenda ndetse n'amakaramu, bakaba bari kureba muri mashine, bakaba bicaye mu byerekezo bitatu biteganya, hakaba hari inzu y'amabati.

Abantu bicaye mu nama bafite telefoni bafite amakayi imbere yabo, amazi akaba abari imbere, hakaba harimo n'umupolisi hakurya kwa hari umuntu uhagaze, hakaba hari abandi bicaye bikaba bicaye mu nyubako isize irangi ry'umuhondo inzugi zayo zikaba zisa.

Abantu bicaye muri sare ifite itapi itukura, intebe z'umukara, ameza adekojeho igitambaro cy'ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, bakaba bafite amazi imbere yabo n'amakayi, hakaba harimo uwitandiye isharupe, hakaba hari abandi babari imbere.

Abantu batatu bicaye, imbere yabo hari mashini, zikaba ziri ku meza y'imituku, hakaba hari amagambo yanditseho ngo Kigali yacu. Uwicaye akaba ari kureba muri mashini undi ari kureba imbere.

Ifoto iratwereka abantu batandukanye bicaye bari gukoma amashyi, harimo abambaye imyenda y' imihondo, hakurya ikatwereka imodoka ndetse n'amazu.

Abagabo bicaye mu ntebe zisa begamye hari abambaye amarinete hari abari kureba hasi, hari ufashe ku ntamba y'ikositimu ya kaki ndetse na karuvati irimo imirongo.

Hari abantu biciye mu byerekezo bibiri bitandukanye, bafite amazi imbere yabo, bamwe bari guseka, abandi bifashe ku munwa, abandi bari kureba mu cyerekezo kimwe, bicaye imbere y'ameza adekoje irangi ry'umweru

Abantu bicaye mu nama hakaba hariho igikombe kiri imbere ye imeza ikaba imbere buri wese akaba afite ikaramu n'ikayi ari kwandikaho furati iri hejuru yabo ndetse n'ikibaho bari kwandikiraho.

Kandire zaye abantu ba bambaye imipiza harimorote rutamara hejuru baka abandikubiyitakomeye ry'icyatsi kibisi.

Icyapa cy'irembo amakuru mashya ku rubuga rw'irembo, kwandikisha ishyingirwa ryavuguruwe, mashine ndetse n'andi magambo ari hasi.

Inyubako yubakishijwe imbaho, iteye ahantu hariho imitako ifite amabara y'umweru n'umukara, hari icyapa cya ekwiti cya banki yacu, bicayemo abantu batatu imbere, hari n'icupa rya jibu ribari imbere.

Abantu babiri bahagaze undi utwaye undi upfukamye undi uhagaze, amagambo ari mu ibara ry'ubururu ngo umunsi mpuzamahanga w'umurimo, iya mbere gicurasi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Umunara uzitiye n'ibyuma imbere yaho hakaba hari ibyatsi, ruguru yaho hakaba hari igiti ndetse hakaba hari n'indabo hakaba hari inzubakishije amagufa araheye.

Umuhanda wa kaburimbo, korotire y'amatafari ahiye manini cyane, inzu zifite ibyapa bitandukanye, moto iparitse, umuntu wunamye, imodoka iparitse ndetse n'abandi bari kugenda.

Inzu y'amakaro, umuryango ufunguye n'icyapa cyanditseho ngo irembo mo imbere harimo purinta, hakabamo ameza, hakabamo aka etajeri karimo utuntu dutandukanye harimo na supaguru.

Abantu bicaye buri wese afite raputopu cyangwa se kompiyuta imbere ye, ni abantu bicaye ahantu mu nyubako bameze nk'abari gukora ibintu kuri mashini.

Umuhanda wa kaburimbo amazu y'ubucuruzi, imodoka iparitse, ibiti inyuma yayo mazu, icyapa giparitse muma pave cyanditseho ngo IREMBO, umuntu uhagaze mum'uryango, hakaba nindi miryango ifunguye, hakaba hari rigori ifundikiye.

Ibyuma bikorotiriye hakaba hariho ibyapa bitandukanye biriho bote, biriho umuntu uciyemo akarongo, biriho umuntu uziritse, biriho ibiganza bifatanye ndetse n'ibindi bitandukanye, mo imbere hakaba harimo umuntu uri muri urwo ruzitiro rw'ibyuma.

Aha ngaha barakwereka icyapa kirimo urutonde rw'ibiciro bya gaze, rwatanzwe na RURA, bakatwereka amacupa menshi ya gaze aterekeranyije.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari abantu, inyubako za etaje zitandukanye, hakaba hari amatente y'umweru n'umutuku, hakaba hari abantu bicaye hakaba n'abandi bari kuzamuka, hakuno hakaba hari korutire y'indabo ndetse n'ibyuma bakorutiriye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho amafoto y'abantu babiri bagaraga igice, kiriho amagambo yanditse ''ikiganiro ku by'ingenzi ku misoro iri kuvugururwa muri iyi minsi''.

Abantu bicaye mu ntebe buri wese akaba yicaye mu mwanya we ndetse hari n'ibyo ari gukora, icupa ry'amazi riri hejuru n'igikapu cy'umutuku, abantu buri wese akaba agiye yicaye mu cyerekezo cye.

Icyapa cya rwanda reveni otoriti, kigaragaza umusoro ku mutungo utimukanwa kika ki mu ibara ry'ubururu n'umweru, inyuma yacyo hakaba hari inzu, ndetse hakaba hari n'ibiti.

Abantu bahagaze undi wicaye bose bafite telefone iryawa ubusitanikaba ryimitego ku muhanda bwari icyapa cy kiimibare mirongo ine hakaba hariyuti hirya yabo.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bakaba bicaye hagati mu ndabo, hakaba hari ufite mashini uri kurebamo, hakaba n'uri kuri terefoni, hirya ye hakaba hari ufite telefoni mu ntoki, hirya n'undi ufite mashini.

Icyumba kirimo amakaro giteretsemo amakompiyuta menshi hari ayateretse ku meza zifite utubati, hari n'andi ateretse hasi hari raronji zimanitsemo kandi n'igikuta kiriho insinga z'umuriro.

Ipironi nini cyane hafi yayo hakaba hari Indi poto iriho insinga, hakaba hari ibiti binini by'imikindo, hakurya hakaba hari ibindi biti by'ubundi bwoko. Ipironi ikaba isize irangi ry'umutuku n'umweru.

Ifoto iratwereka icyapa, icyapa cya Rwanda reveni otoriti cyanditseho ukwezi ko gushimira abasora. Akaba ari amagambo yanditseho ngo uruhare rw'imisoro mu iterambere, mu karere ka Burera.

Abantu binjira mu nyubako irimo amakaro, bicaye ku ntebe, hagati hagihe harimo ameza, akaba bagiye bari mu matsinda atandukanye, akaba hari abafite keke, imbere yabo.

Umunara ishinze ahantu, uzitiye n'ibyuma, hakaba harimo inzu, hakaba harimo ibindi byuma bisakaye, harimo ibiti hakaba hari n'umuntu uhagaze kuri uwo munara, hakaba hari abandi bari kumanuka bava kuri uwo munara.

Umunara muremi cyane, abamotari batwaye abagenzi, icyapa cya MTN, korotire y'ibyuma, indabo, ibiti biteye ku muhanda n'amatara.

Kompiyuta abana bicaye ahantu hamwe hari uri kureba hirya inzu ifite ibirahure birebire hanze hakaba hari ubusitani.

Umurima uteyemo indabo z'amoko atandukanye, umunara w'icyuma ushinzemo uruzitiro rwibiti, hakaba hashinzemo ikindi kintu k'icyuma cyanditseho igishinwa

Umunara ufite insinga zitandukanye uteye mu murima imbere yaho hakaba hateye ibiti.

Icyapa feruje kegeranye n'ipato iriho itara insinga zigiye mu byerekezo bitandukanye, korutire y'amatafari ahiye inyuma hakaba ari inyubako yaka yegeranye n'ibiti.

Cya farumasi, gishinze iruhande rw'ipoto ririho amatara, icyapa kiriho umugabo wambaye umupira w'umutuku, inzu hakurya iri hagati mu biti, ibiti birebire.

Ipoto iriho insinga nyinshi zijyana ahantu hatandukanye , inyubako ya etage bari kubaka iriho ibiti by'imbaho , izindi nyubako ziri ku ruhande zifiteho ibirahure.

Ifoto iriho itsinga zijya ahantu hatandukanye, abantu igipangu cy'ubakishijwe amatafari ahiye uruzitiro rw'ibiti, imihati ndetse n'inzu ziri haruguru.

Insitarasiyo iri ku nzu hejuru y'inzu hakaba haca insinga nyinshi zitandukanye, insitarasiyo nayo ikaba iri kujya ahandi hantu.

Umunara uriho insinga zitandukanye, ibicu by'ubururu n'umweru umurima uhinze mo ikawa ibiti biri hakurya yawo ndetse n'indabo.

Puberi iri kumuhanda, indabo ndetse n'ibiti itara rirerire, ipoto insinga zijya ahantu hatandukanye, umukozi wa emutiyene ndetse n'imdoka ziri kuza.

Umuhanda wa kaburimbo, inzu yanditseho magana abiri na mirongo itanu, umumotari atwaye umugenzi, amatara yo ku mihanda, ipoto iriho insinga, ibiti ndetse n'icyapa cyanditseho mirongo itandatu.

Umunara ufite korotire y'ibyuma, imbere yawo hakaba hari amashuri, ruguru yaho hakaba hari inzu, hakaba hari igiti kigaragara ibibabi, inyuma yaho hakaba ari ibitaka.

Ifoto iratwereka ipoto ishinze ahantu hagati mu ndabo, hakaba hariho insinga zihaca zikomeza, hakaba hari n'akabogisi k'umukara kizingazinze, hirya yako hari igiti kinini.

Amapironi atatu ateganye, inzu zitandukanye, ibiti, imisozi, inzu y'amabati igaragara igice, ndetse n'indi nzu ya etaje yicayemo umuntu.

Barimo baratwereka igipangu gisize amabara y'umweru ndetse na agiri igipangu bakatweraka ipoto riri inyuma y'icyo gipangu rifite insinga zijya ahantu hatandukanye.

Baratwereka umuhanda w'igitaka, uwo muhanda ukaba urunzeho amabuye, haka hari ibiti biteye ku muhanda, hakaba hari inzu hepfo ifite korutire isize umucanga, hakaba hari ipoto ririho insinga zijya ahantu hatandukanye.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zifite imiryango n'amadirishya bifunze ruguru hakaba hari ishyamba ndetse n'umurima imbere yayo hakaba hari ibyuma byinshi hakaba hari n'amapave akutse.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka zitandukanye, amatara ku mihanda, inyubako hakurya y'inzira y'abanyamaguru no hakuno hakaba hari ibiti, abantu bari kugenda n'umumotari.

Inyubako nini itukura mo imbere, harimo utubati tugiye turimo ibintu byinshi bitandukanye, bigaragaza yuko ari ibikoresho by'amashanyarazi, amatara ari hejuru ku gikuta.

Umukobwa wuriye ipoto akaba afite buwate mu ntoki akaba yambaye ingofero, akaba yambaye isarubeti iyo poto ikaba iriho insinga zivana umuriro hamwe ziwujyana ahandi.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice, inzu iteye karabasasa ndetse n'amabuye, igisima kigizwe n'irange ry'umituku n'umweru, ipoto y'icyuma ndetse n'akandi kantu k'akuma.

Umunara uriho insinga zitandukanye, ibiti, abantu bicaye munsi y'umunara, amazu ari hakurya yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati, ibiti ndetse n'ibindi.

Ibyuma bishinze by'umunara bikaba bishinze by'umunara bikaba bishinze ahantu mu byatsi hakaba hari uruzitiro rw'amabati ruri imbere yabyo, hakaba hahinzemo imyumbati ndetse hakaba harimo n'igiti kinini cyane, imbere yaho hakaba hari uruzitiro rw'amatafari ahiye ndetse n'ibyuma mu imbere hakaba karimo inzu ya kadasiteri.

Amapironi abiri ari mu mpande zitandukanye, inyubako zimeze nk'amashuri, ibiti biri ku muhanda, ndetse' n'indi nyubako imeze nka etaje, mu busitani bw'indabo buteye ruguru yayo.

Amaduka y'ubucuruzi, amapoto ariho insinga zijya ahantu hatandukanye, imodoka ziparitse, ibyapa biri ku nzu, abantu benshi, imodoka, ibiti biri ku muhanda, hakaba hari n'ibipupe byambaye imyenda.

Ipironi iteye ahantu hagati y'amazu, hakurya hakaba hari ishyamba ryinshi, ipironi ikaba ifite insinga nyinshi zitandukanye, zireba mu byerekezo bitandukanye.

inyubako ifite urugi rwa shokora, ikaba ifite ubusitani imbere yaho, ikaba isize umucanga, inyuma hakaba hari ibiti, hepfo hakaba bateye ipoto iriho itsinga zijya ahantu hatandukanye hirya yaho hakaba hari indi nyubako ndetse hari n'ibiti ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, igiti cy'inkozi kinini cyane; ipoto iriho insinga zitandukanye; inzu yubakije amatafari ahiye ndetse hari ibyuma; ishyamba ry'ibiti by'inturusu biri hepfo ndetse n'umuntu uri kugenda w'umuma; n'undi uri inyuma ye uri kumanuka.

Abantu bicaye mu cyumba, bicaye ku ntebe za sheze hari n'izindi z'umukara hari kompiyuta imbere yabo, hari amadirishya afite amarido bakuyeho ndetse n'ibirahuri.

Umuhanda wa kaburimbo inyubako ya etage zifite amabati y'umutuku, umuntu uri kugenda mu busitani buteyemo ibiti, imodoka ziparitse.

Umuhanda wa kaburimbo, imvura irahise icyapa gifite irangi ry'ubururu, abantu babiri bahagararanye, ubusitani bw'indabo, amatara ku muhanda, inzu nyinshi zitandukanye z'amabati.

Amazu abiri atandukanye, inzu imwe iri mu busitani burimo indabo, indi nayo iri inyuma y'icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru, hakurya hari inzu nyinshi cyane.

Abantu biciye mu ntebe zo kwa muganga, harimo ufite kuteri, abambaye agapfukamunwa, umuntu wambaye imyenda y'ubururu, ibirahure bikinze ndetse n'abandi bahagaze baje gusaba serivisi.

Inyubako irimo amaetajeri hakaba harimo imiti igiye iri mu dukarito ndetse no mu macupa ikaba ifitemo amakaro y'umukara hanze ikaba isize irangi ry'iroze ikaba fite parafo y'irange ry'umweru.

Umusore wambaye agapfukamunwa wazamuye ishati y'umukara yambayeba ari kumwe n'umuganga nawe wambaye agapfukamunwa, akaba agiye kumutera urushinge.

Inyubako ya kadasiteri ikubisemo inyubako etaje hakaba hari amamodoka atandukanye harimo ambiransi hakaba hari korutire y'ubusitani bw'indabo ndetse na pasiparumu ziteyemo imikindo, hakaba hagiye harimo ibyapa hakurya hakaba hari imodoka y'umukara.

Inyubako zo kwa muganga, hakaba hari abantu bikoreye ibikapu, hakaba hari abandi bateretse ibase mu byatsi irimo akajerekani, hakaba hari abandi bunamye, abandi bakaba bari kugenda.

Abantu bicaye undi wicaye imbere yabo, inyubako ifunze yubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda w'igitaka, icyapa kiragaragaza ivuriro, urugi rusize irange ry'ubururu rufunze imodoka haruguru y'umuhanda, umuntu uri kuri geti w'umusekirite uje gukingura, hakurya hari inzu nyinshi n'umusozi.

Abantu bicaye ku ntebe, bakikijwe n'ishyamba harimo n'abari inyuma, umuntu wambaye ikositimu y'ijipo n'ikote ubahagaze imbere. Barimo n'abafite amakayi bari kwandika, abandi bari kumureba.

Abantu bicaye batandukanye bambaye udupfukamunwa abandi babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa bakaba bahagaze imbere y'ameza maremare hakaba harindi ifite umuryango ukinguye ndetse n'izindi ntebe ziticaye abantu.

Umuntu wambaye rinete ubumbye umunwa, wambaye ishati ya giri na karuvati ya kaki, wambaye n'ikanzu y'amabara y'umutuku n'umukara, ndetse n'umweru.

Abantu bari kurebana hagati hari muntu umwe uri kureba hasi umwe wambaye imyenda y'iroza, wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ishati hirya hakaba harimo abantu bambaye agasengeri k'umukara.

Umumama uhagaze ufite mikoro fone imbere ye, yambaye amaherena, akaba amaboko ye ari kumeza inyuma ye hakaba hadekoje ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe, bakaba bafite imashini imbere yabo, amazi yo kunywa, hari n'undi uhagaze inyuma wambaye imyenda y'imihondo, muri iyo nzu hakaba harimo amarida y'umutuku, hakaba imeza iriho igitambaro cy'umweru.

Umuntu wambaye ikote rifite amabara y'umutuku n'umukara, wambaye ishati ya buresiyeri imbere na karuvati y'amabara y'umukara, akaba ari kureba ahantu hamwe ndetse yambaye n'ikindi kintu cy'umweru imbere.

Iyi foto iratwereka abagorobwa babiri hirya yaho hakaba undi muntu imbere yabo hakaba hicaye umukobwa wambaye ikote ry'umukara imbere ye hakaba hari imashini ndetse na mikoro.

Aha turahabona ikirangantego gifite amagambo avuga ngo "ubushinjacyaha bukuru" hagati hakaba harimo izuba, hakaba harimo inuma irambaye amababa ndetse hakaba harimo idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikanzu y'amabara w'umukara umutuku n'umweru akaba abumbuye umunwa akaba ahagaze yemye akaba yogoshe orudineri.

Abantu bicaye ku murongo bambaye amakanzu y'imikaraba, hakaba hari n'undi wambaye ikanzu y'umutuku wambaye amarinete, bakaba bicaye ku ntebe z'ibyuma mu nyubakomo amakaro, ifite idirishya rikinguye.

Abantu bahagaze ku murongo bari mu nzu y'inyubako barikwifotoza harimo abambaye bab'amama hari n'uwambaye ikositimu, hakaba hari n'abantu benshi bahagaze ku murongo.

Abagororwa bambaye imyenda isa bicaye ku ntebe, ku gikuta hakaba hariho televiziyo irimo umukobwa akaba ari n'undi uhagaze imbere yabo.

Abantu bicaye mu cyumba bambaye amakanzu y'imituku n'imyeru n'ingofero, icyo cyumba kikaba kimanitsemo furati bakaba imbere yabo hari ameza y'ibiti, hakaba hari amadirapo abiri amanitse. Hakaba hari abandi bantu babiri bahagaze bafashe ku madarapo bazamuye amaboko.

Abantu bicaye mu ishyamba munsi y'ibiti binini by'inturusu hakaba hari abandi bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, akaba hari undi uhagaze imbere yabo, hakaba n'undi wicaye hirya ku ntebe n'abandi bicaye inyuma ye.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku ifite amabara y'umweru imbere, akaba ari umumama ubumbye umunwa w'inzobe, akaba afite umusatsi wa natirere yasokoje ajyana inyuma, agafungishamo akantu.

Abantu bicaye ku ntebe bari muri hanga abandi bahagaze intoki hakurya yaho urugo rw'imiyenzi ndetse n'ibiti hakaba hari amabuye agaragara nk'inzu yasenyutse.

Umuntu wambaye ikanzu y'amabara y'umutuku n'umweru hariho n'umukara, akaba asutse ibisuko bigwa ku rutugu akaba yambaye ingofero, imbere ye hakaba hari idarapo ririmo izuba.

Bari kutwereka umugabo munini wambaye amarinete, wambaye ishati irimo uturonko na karuvati imbere ifunze, inyuma akaba yashyizeho ikanzu iri mu mabara y'umutuku, n'umweru n'umukara.

Ubu wafungurimbo nzi y'abanyamaguru bo hakurya hakaba hari isoko rizitije ibyuma ,abamotari, umupoli mu nzira y'abanyamaguru hari n'undi muntu uhagaze iruhande afitte pome mu ntoki n'amatara ku mihanda.

Amapave ariko kuri Zigama yo ku Muhima imodoka ya polisi, umupolisi uri kugenda abandi bantu bicaye ku ibaraza inzu ikaba ikinguye.

Umuhanda wa kaburimbo, umuntu uri kugenda n'amaguru, inyubako ya etaje, imodoka, igiti giteye ku muhanda, icyapa gishushanyijeho umuntu, hakaba hari n'umuhanda w'igitaka w'igice.

Imihanda ibiri ya kaburimbo ikaba ibigabanyijwemo n'ubusitani bw'indabo, hakaba harimo imirongo y'umweru ku ruhande hakaba hari indi mirongo isize irangi ry'umweru n'umukara, hakaba hari umumotari utwaye umugenzi imbere ye hakaba hari umupolisi.

Umuhanda wa kaburimbo umupolisi uhagaze mu nzira y'abanyamaguru akaba yambaye imyenda akaba hari ingorofani iriho umufuka, hakaba hari umumotari utwaye umigenzi hakaba ari icyapa cyanditseho ngo hagarara hakaba n'ayandi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya polisi, ikaba igeze mu mihanda y'umuhondo icagaguye, ibara ry'umweru n'umukara, hakuno inzira y'abanyamaguru, abamotari batwaye abagenzi, ibiti biri ku muhanda, haruguru yaho hakaba hari inyubako y'inzu.

Inyubako ya polisi, imodoka ya polisi, umuhanda w'amapave, ibyatsi bya pasiparume, ururabyo rw'imikindo ndetse n'ururabo ruteye hirya, iyo nyubako yanditseho: Rwanda nashono polisi.

Umuhanda hari abantu bicaye ku ntebe hari abandi babiri ya uhagaze uzamuye amaboko, hari imodoka inyuma yabo ruguru hari kurotire igipangu kipangu karimo igiti kinini cy'umwehembe hari abantu bari kugenda hepfo yawo hari inzu isize irangi ry'umutuku.

Abantu bicaye bafite kopituya imbere yabo; hari undi muntu uhagaze ufite igiseke mu ntoki; hari ibara ry'ikirangantego riri hakurya; bakaba bari ku meza afite ibara ry'umutuku.

Umugabo wicaye wambaye ikositimu y'umukara imbere harimo ishati y'umweru karuvati irimo uturongo tuberamye inyuma hakabaho igitambaro cy'ibara ry'umuhondo n'icyatsi n'iy'ubururu n'umutuku n'umukara.

Abantu bicaye bari kubara amajwi bambaye imyenda isa bose ifite ikirangantego, umwe usutse ndetse n'abandi, umwe akaba apfukamye n’undi akaba asutamye.

Kiratwereka umuntu uri kuvuga wambaye linete ndetse n'amaherena wicaye mu ntebe y'umukara akaba afite mikoro ebyiri imbere ye.

Abantu bahagaze amadarapo abiri ashinze inyuma yabo, hakaba hari idarapo ry'igihugu ndetse hakaba hari ibiti birebire by'imikindo. Hakurya hakaba hari korotire iteye karabasasu, hakaba hari n'indabo inyuma yabo.

Abantu bicaye bakurikiranye, umuntu ufite icupa ry'amazi imbere ye ndetse n'igikombe, akaba yambaye agapfukamunwa, afite n'agapfuko ku jisho, bakaba bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza.

Icyapa cyanditseho G.S Kimironko ya mbere abantu bari kuri geti, hakaba hadekoye igitambaro cy'amabara atatu icyatsi, umuhonda ndetse n'ubururu, hakaba hari igiti kiri inyuma y'inzu, hakaba hari n'imodoka ziparitse.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba hari amacupa imbere yabo, hakaba hari undi wambaye rinete uri kureba mu ikayi, abandi bose bakaba bari kumwe bakaba bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu bari ahantu hamwe ari benshi bambaye ibintu bisa, imipira yabo, ingofero, bambaye baji, bari kuzamura idarapo ryanditseho PSD rifite amabara atatu ubururu, umweru n’icyatsi.

Abantu batatu bahagaze, uhagazemo hagati mikoro ikaba imwegereye, akaba afite igipapuro kiriho umuntu, inyuma hakaba hari intebe z'ubururu, hakaba hari abandi bahagaze ahantu hatandukanye, bakaba bakikijwe n'amazu yubatse kimwe.

Umugabo uzamuye akaboko afunze igipfunsi afite akapa karimo amabara atatu umutuku, umweru n'ubururu hakaba handitseho ijambo efuperi n'abandi benshi bazamuye ibyapa.

Abantu babiri bahagaze bose bambaye imyenda y'umukara, umugore wambaye ikanzu y'umukara, akambara rinete, akambara n'akabano mu mutwe akaba afashe ku cyapa munsi n'inyuma, n'umugabo akaba afashe munsi n' inyuma.

Abantu babiri bicaye mu ntebe hakaba hari idarapo ribari imbere, hakaba n'irindi ririmo hagati ,bakaba bafite mikorofone imbere yabo, bakaba bafite ibitabo bafite n'amakayi n'amakaramu bari kwandika.

Abantu bicaye mu ntebe zimeze nka tiribine undi muntu uhagaze imbere yabo uri kuvugira muri mikoro, inyuma y'abo bantu hakaba hari izindi ntebe nyinshi z'ubururu hakaba hari tapi y'umutuku.

Abantu bicaye mu ntebe z'ubururu, harimo abambaye imyenda y'ubururu, harimo umuntu usutse, n'undi urikureba kuri terefone. Hakaba hari n'abandi babiri babicaye inyuma harimo umu papa wambaye amadarubindi n'ikoti ry'umukara ameza akaba ari imbere yabo.

Bari kutwereka umumotari utwaye umugenzi akaba ageze muri zebura korosingi hakurya hapaba hari imodoka iparitse, hakaba hari gipangu gifite amabati y'ubururu na porutayi. Mu mabati y'umutuku hakaba harimo akabara k'umweru, ndetse hakaba hari n'indabyo zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'imyeru, imodoka ipakiye, umuntu uri hejuru y'imodoka, hakurya ya korotire y'igipangu hakaba hari n'indi ifite amadirishya n'inzugi hakaba hari undi muntu uri kugendesha amaguru imbere y'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo, bikaba bigaragara yuko ari nijoro bacanye amatara, hakaba hari icyapa ku muhanda, hakaba hari abanyozi benshi, hakurya hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hakaba hari ibyatsi bihateye, hakaba hari n'ipoto.

Imodoka isize irange ry'icyatsi kibisi, umugabo wambaye ikote ndetse n'ingofero, umumama wambaye ikanzu ya buresiyeri, umugabo ugaragara igice uri ku igare ndetse na rigori, hakurya hakaba hateyeho ibiti.

Ifoto iratwereka imodoka nini cyane, ikaba ifite igikotineri gisize amarange y'ubururu hakurya yayo hari ibiti birebire ndetse munsi y'ibyo biti hari abantu bari kugenda.

moto ya rivani mu muhanda, iparitse, umuntu ari kugenda, undi muntu wambaye ishati ny'umweru, inyubako ya etaje igeretse rimwe, n'amatara yo ku mihanda.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya kwasiteri, indabo ziteye hakuno ya rigori, abantu bari hakurya bateze igitambaro cy'ibara ry'icyatsi n'ibiti biteye ku muhanda, hamwe n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya toyota, umunyonzi uri gusunika igare ari mu nzira y'abagenzi, inkumi iri gukubura muri kaburimbo, abandi bantu bari kugenda, abamotari, abanyonzi, imodoka ikaba iparitse.

Umuhanda wa kaburimbo usizemo amabara y'umweru n'umukara, hakurya hakaba hari ibiti binini, hakaba hari ubusitani bw'indabo, hakaba hari imodoka ziri kuzamuka, iy'imbere ikaba yanditseho tagisi.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya bisi itwara abagenzi, abamotari babiri harimo utwaye umugenzi n'utamutwaye, ruhurura iri hakuno y'umuhanda n'ibyatsi biteye hakuno.

Umuhanda wa kabiririmbo imodoka ya Sitera hakurya hari amazu hari abantu bahagaze, hari hari n'indi iri kugenda y'imodoka ifite icya purake ya Eri ade magana inani na mirongo itanu na kabiri ka.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka ya bisi, ibiti ruguru y'umuhanda umuntu utwaye igare ndetse hakaba hari n'ibiti by'imikindo biri hejuru ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo impande ebyiri z'abanyamaguru, imodoka, mota ziyiri inyuma ibyapa biri ku muhanda, puberi, ibiti, icyuma cy'itara ndetse n'ipoto iriho insinga.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka ya sitari umunyamaguru uri kugendera mu nzira y'abanyamaguru ibiti biteye ku muhanda hakurya hari izindi modoka ziparitse hakurya y'izo modoka hari amazu, rigori iteyeho uturabyo ku mpande.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya bisi itwaye abagenzi, umunyonzi utwaye umuntu, rigori iteyeho indabo, hejuru irangaye, hakurya hakaba hari ibiti ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo umuntu uri kugenda ugaragara igicu cya telefone mu kaboko yashyize inyuma, umumotari utwaye umugenzi, imodoka n'indi modoka iri hakurya, korotire y'ibara ry'icyatsi n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, inzira ebyiri z'abanyamaguru, rigori idasakaye, amatara yo ku muhanda, ibiti ku muhanda, imodoka ya hoho hamwe n'imodoka iri kuza ifite irangi ry'umukara, abamotari batwaye abagenzi n'abitwaye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Yaba moto turi kubona umuntu wambaye ijire yaho ndetse na kasike, ku ruhande hari izira y'abanyamaguru hicaye abantu bacuruza ama inite. Amaduka atandukanye akikijwe n'utugiriyaje tujya gusa bege, umuntu uri kwambuka afite ikintu atwararaho imizigo wambaye itabuririya y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ebyiri z'ikamyo, imwe isize irangi ry'ubururu, umuhanda w'abanyamaguru, imwe ikaba ipakiye ibicuruzwa, indi ikaba ihagazemo umuntu, hakaba hari shitingi hasi, hakurya y'umuhanda w'abanyamaguru, hakaba hari ubusitani bw'ibiti ndetse n'ibyatsi, hakuno hakaba hari inyubako nyinshi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umurongo w'umweru n'utambitse, imodoka ifite ibara ry'umweru, n'umuhondo ya yego kabisi, ikaba iri kugenda, hakurya hakaba hari amapave y'abanyamaguru.

Imodoka nini ikaba ihetse ibintu bihambiriye, umumotari uhetse umuntu, inzu ndende cyane ya etaje iri hakurya yanditseho Forte Bet n'undi muntu w'umukarani wikoreye umufuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo ibinyabiziga: harimo moto, ndetse n'igare ry'ikoreye imizigo, irimo imifuka, ndetse n'amajerekani, imbere hari indi modoka, inzira y'abanyamaguru, abantu barimo bagendamo, inzu z'ubucuruzi, inzu ya etaje iriho irange ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka itwikirijeho shitingi ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, rigori iruhande rwayo hateyeho indabo n'indi modoka y'umukara yayo, hakurya yayo hari ibiti ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice, urimo abamotari, ibiti byo ku muhanda, imodoka iparitse ku ruhande ipakiye imifuka y'ikamyo, ikaba ari nini iparitse ku ruhande, hakaba hari n'amatari bari kuzamuka.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka y'ikamyo, umumotari uhagaze mu mirongo y'umweru icagaguye, inzira y'abanyamaguru, hakurya ibiti, ubusitani bw'indabo.

Impande ya kaburimbo inyuranamo, abamotari batwaye abagenzi, imodoka n’ibiti biteye ku muhanda, umuntu uri gukora mu ndabo wunamye ndetse n'ibiti binini cyane biteye ku muhanda.

Umuhahanda wa kaburimbo, urimo modoka ya minibisi, umumotari utaratwaye imigenzi, hakaba n'undi mumotari atwaye umugenzi, abanyamaguru bari kugenda n'amaguru, inzira y'abanyamaguru, hakurya hari ibiti ku muhanda hari korutire y'igitambaro cy'ibura ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari atwaye moto, inzu ifite korotire isize irange n'umweru, etaje hakurya, ibiti biri ku muhanda, pasiparume iri ruguru y'inzira y'abanyamaguru, ndetse n'ipoto y'itara.

Parikingi y'amapave, moto ya rifani menshi akurikiranye, abantu bari kuzamuka harimo umumama wambaye ikanzu y'igitenge ndetse n'umupapa, n'icyapa kiri hakurya kijimye.

Umuhanda wa kaburimbo, inzira y'abanyamaguru hakuno no hakurya, abanyonzi batwaye abagenzi, imodoka zishoreranye, abamotari, ibiti hakurya n'inyuma hariho imodoka ziparitse hakurya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya contineri, ibiti biri ku muhanda, rigori iteyeho indabo ku mpande ndetse na korotire ikorotiriwe.

Umuhanda wa kaburimbo, igikamyo gifite ibara ry'umweru n'ikindi gikotineri gifite ibara ry'umutuku, ibiti biteye hakurya y'umuhanda, rigori iriho ibyatsi ndetse na korotire y'igitambaro cy'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo umuyanzi uri gusunika igare ririho umufuka munini umusego uri hejuru y'umufuka, ivani umuntu uyitwaye akaba yegeranye n'umuyonzi, hakurya hakaba hari amazu hari korotire igitambaro cy'ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, vani ya moto, iposita, amatara acanye, feruje iri kwaka, abantu batandukanye ndetse na pasiparumu hagati mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka ya rukururana ifite amapine menshi ihambirije shitingi ifite ibara ry'icyatsi hakurya hakaba hari ibiti kumuhanda ndetse hari na rigori imbere yayo iteyeho indabo.

Umuhanda wa kabumba umumotari utwaye moto, hakurya hari icyapa hari itara risizeho ibara ry'ubururu n'umweru, hakaba hari korotire y'indabo, hakurya hakaba hari inzu iteyeho indabo, imbere hakaba umuhanda w'abanyamaguru.

Imodoka yapakiye imifuka myinshi kandi y’ubururu iri kumanuka, hakurya hakaba har’inzu munsi y’umuhanda ndetse hakaba har’umunyonzi utwaye umuntu, hakaba har’imiti hepfo y'amazu. Iy'imodoka ikaba iriho shitingi y'umukara n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya bisi itwara abagenzi, abantu bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, hakurya naho hakaba hari abantu batatu bari kugenda, hakaba hari ibiti biri ku muhanda, hakaba hari na korotire y'igitambaro cy'icyatsi, hakuno hakaba hari ruhurura.

Umuhanda wa kaburimbo, inzira y'abanyamaguru, umuyoboro w'amazi, umunyonzi utwaye umugenzi, imodoka ya rukururana, abantu bari kugenda, hakurya hakaba hari ibiti biteye ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ubusitani bw'indabo n'ibiti, imodoka ya tagisi, amabara y'umuhondo aciyemo hagati, hakuno hari umuhanda w'abanyamaguru, hakaba hari na rigori, hakaba hari n'imirongo y'umweru n'umukara, hakuno no hakurya hakaba hazitiye ibyuma.

Umuhanda wa kaburimbo, abamotari batandukanye, inyubako ya etaje iri hirya, icupa rya kokakota rinini ndetse hakaba n'umumotari uri kwambuka umuhanda ajya muri parikingi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya dayihatsu ipakiye itwikirije shitingi y'ubururu ikaba iparitse ku ruhande hafi y'inzira y'abanyamaguru, hakurya hakaba hari inzu, abamotari n'andi mamodoka.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka zitandukanye, harimo igikamyo cya hoho, harimo moto ya ivani hakurya, ku muhanda w'abanyamaguru hakaba hari ibiti biteye ku muhanda, amatara, ndetse hakurya y'ibi biti hakaba hari n'inzu.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hari n'inzira y'amapave n'udutebe hagati muri pasiparume ururabyo duhari, hari imodoka za bisi, hakurya hari amazu, hari abantu bari kugenda ndetse hakaba hari gare hagati.

Umuhanda wa kaburimbo, umuntu wamba ijire ya MtN, undi wambaye igisarubeti, imodoka yabo fite irangi ry'mutuku, rigore ku ruhande, ibiti biri hakurya y'umuhanda ndetse n'umugabo uri kugaragara igice.

Imodoka ndende iri muri kaburimbo, ifiteho shitingi y'ibara ry'ubururu, hakaba hari umuntu imbere utwaye igare ririho ibicuba, hakaba hari n'abandi bantu bari hakurya n'igiti kinini.

Umuhanda wa kaburimbo, abamotari babiri umwe uri imbere akaba agiye kugera ku mirongo y'umweru byerekana ko ari umuhanda w'abanyamaguru, amatara ku mihanda, ubusitani ndetse hakaba hari n'imirongo y'umuhondo.

Imodoka ziparitse, hari ifite amabara y'ubururu n'umweru n'umukara, hari n'ifite amabara y'ubururu bwijimye, ikaba yanditseho umubare mirongo itandatu.

Imodoka ya kwasiteri, umuntu uhetse igikapo, hakurya hari abantu batandukanye, hari amatara yo ku muhanda, hirya yayo hari indi internetionare, hakaba hari insinga zica hejuru.

Inyubako ya etaje y'abantu benshi batandukanye bayizengurutse hari ibiti biyizengurutse by'indabo, hari abantu bicaye inyuma yayo imbere y'abantu hari puberi, hari n'abandi bari kuzamuka n'abari bari kumanuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyapa byerekana aho abantu bagiye hatandukanye, akazu k'abagenzi abamotari, indabo mo hagati inzu, hakurya z'ama etage n'umuntu wicaye ku kantu k'akazeru.

Itapi y'umutuku n'umukara, iri hasi hapavomye na sima, pasiparme igaragara igice kimwe, kabari hari n'igiti giteye kigaragara igice kimwe.

Uruzitiro rwa senkige rurerure mo imbere hakaba harimo inzu nayo y'ibyuma isakaje amabati, hakaba harimo abantu batandukanye, ruguru yaho hakaba hari ibiti, akaba abantu barimo baragenda banyuranamo.

Icyapa cyanditseho ngo hagarara, kikaba kiri hafi y'ubusitani bw'indabo, hakaba hari n'akandi kapa gatoya na ko kanditseho ngo hagarara, hakurya akaba ari ishyamba, hakaba hagiye handitsemo inyuguti ya A.

Umubare mirongo ine, uri mu ruziga rw'umweru n'umutuku, uwo mubare ukaba wandikishije, ibara ry'umukara.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Icyapa cya tiriyangere, gikoze mu mabara y'umutuku n'umweru, kikaba kirimo umuntu uteruye igitiyo, kikaba cyanditsemo amagambo arani.

Icyapa kiri ku muhanda, kiriho udufureshi tw'umukara ducurikiranye, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, hakurya hakaba hari ubusitani bw'indabo, hino hakaba hari ikindi cyapa.

Icyapa kirimo imodoka iciyemo umurongo n'ibara ry'umutuku, hasi hakaba handitseho no moto vehiko, icyapa kikaba kiri muri mpande enye, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Icyapa cya ka gatanu ijana na mirongo inani na gatanu, inzu ifite korutire y'amatafari ahiye, ifite amabati ndetse hakaba hari n'ibiti hakurya.

Ahantu h'umweru hanini ha mpande enye hari n'icyapa cy'umutuku cy'ikiziga, hatambitsemo akarongo k'umutuku, ku ruhande rumwe hagiyeho ibara ry'umweru no hepfo hari udureshi tubiri, ahari akamanuye n'akandi ku ruhande kafashe ku kazamuye, kanyuzeho akantu, hagati ruguru hariho akandi gafureshi kanyura hejuru kanini.

Iyi ngiyi ni inzu y'ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, bidufasha kuba wasangamo aho wasanga ubwishingizi bwa banki, aho wajya k'urubuga rw'irembo bakagufasha ,imbuga nyinshi zitandukanye bakaguha ,bakagufasha kwiyandikisha mubantu bazajya mu mahanga ,bakagufasha kubitsa amafaranga yawe no kuyohereza ahantu hatandukanye no kuyabikura.

Icyapa gifite KA ijana na mirongo inani n'icyenda, giteye mu busitani bw'indabo n'ibiti, hakurya hakaba hari amazu atandukanye, agiye agaragara ibice.

Umuhanda wa kaburimbo, inyubako y'inzu ya kadastere, umugunguzi wubakishije amabuye, indabyo ziri hejuru y'umugunguzi, icyapa cy'icyuma ndetse na pasiparume haruguru y'umuhanda.

Icyapa cyanditseho akanyaru Huye, Muhanga, Ruhango Kinazi, inyuma yacyo hakaba hari igiti ndetse n'umugunguzi, hepfo yaho hakaba hari inzu y'amabati ndetse hirya hakabah ari ibiti.

Icyapa gifasheho icyuma hasi ndetse hejuru hakaba hariho akantu k'ubururu, mo imbere harimo akandi kameze nk'akare k'umweru gashushanyijeho imodoka ifite amapine y'umukara n'ahandi hose ikaba isa umukara n'ibirahuri by'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hakaba hari abantu babiri, hakaba hari icyapa cyanditseho yuko ari ukujya i Rusizi, hakaba hari ubusitani bw'indabo buteye hakurya y'umuhanda, hepfo hakaba hari ibyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje amabati, hakaba hari icyapa cy'umubare mirongo ine, hakaba fondasiyo yubakishije amabuye, hirya hakaba hari inzu ya etage itaruzura, hakaba hari urugi rusize irangi rya giri.

Icyapa cyanyanditseho umubare icyapa cyanditseho umubare mirongo ine, kikaba kiri mu ibara ry'umweru, iryo bara ry'umweru rikaba rizengurutse mu ibara ry'umutuku bikaba biri muri mpande enye.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ibara ry'umweru hakaba harimo umuntu kigaragaza umunyamaguru uri kugenda akaba ari hagati mu tubara tw'umukara.

Icyapa kiri muri mpande eshatu kiriho umuntu ufashe igitiyo hakaba harimo amabara atatu umutuku, umuhondo, umukara.

Umuhanda wa kaburimbo abamotari batwaye abagenzi, imodoka ziparitse, inyubako ndende ya etaje yitwa simba, abantu bari kugenda, igiti kiri ku ruhande na ka etaje ku mpande.

Umuhanda wa kaburimbo inzira y'abanyamaguru, ibipangu biteganye hirya hari inzu ya etaje ifite ibiti, ku irembo indabo ziri ku irembo abantu babiri bari gutambuka n'undi uri imbere.

Icyapa cya banki ofu Kigali, inzu irimo amakaro, umuryango usize irangi ry'ubururu, umuntu uhagaze, mo imbere wambaye ipantaro n'umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'ubururu.

Iyi iratwereka indabo yinshi cyane harimo indabo ndende ndetse ku mpande hakaba indabo ngufinya zikunda kugengwa na buri muntu.

Imodoka igaragara igice, inzu ya etaje iriho amadirishya afunguye hakaba hariho amarido y'ibice hakaba hasakaje amabati ameze nk'amategura, hakaba hariho icyapa cya kanari hakaba hagaragara indabo igice.

Inzu isize irange ry'umukara, hariho icyaka cya kanari purisi, harimo amarido y'ibara ry'icyatsi, isakaje amabati magufiya, imodoka imbere yayo.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka y'ivateri inyubako ya etage nini ipoto ririho insinga zitandukanye hakurya hakaba hari igiti hakaba hari icyapa cyanditse ho Nyarutarama.

Umuhanda w'igitaka ufatanye n'uwa kabirimbo umuntu uri kugenda, indabyo ku muhanda ndetse n'akapa kagufi, inzu ya kadasiteri hakurya ifite korutire isize irangi rya gire, indabo ziteye ku muhanda ndetse n'ibiti, n'indabo z'imikindo.

Inyubako, indabo, intebe ziteye hanze, imbere y'indabo ndetse n'ameza ari hagati y'intebe hakaba n'ibicuruzwa bitandukanye byo kunywa muri uwo muryango ufunguye.

Iki ngiki ni ikigo cya emutiyene kidufasha kubijyanye no kuba baguha amayinite ugahamagara mugenzi wawe, cyangwa se ukamwandikira kuri murandasi bitewe n'icyo ushaka.

Inyubako ndende ya etaje iriho ibyuma bitandukanye, hakaba habasizeho irange ry'umweru n'umukara, inyuma yayo hakaba hagaragara irindi range ry'ubururu bw'Ijuru.

Umuhanda wa kaburimbo, icyapa kinini kimeze nk'ikiri Kimiko kwa Mushimire, ibiti biri hakurya y'umuhanda ubusitani buri hirya ya kaburimbo, indabo zitandukanye ndetse na pasiparume.

Iri kutwereka ahantu mu muhanda imodoka ziri kugenda, iri kutwereka amazu hakurya, ikatwereka indabo ziteye hagati kuri uwo muhanda, nini cyane, ndetse n'uwo muhanda hagati inyuma y'imodoka hakaba hari abantu.

Inyubako za etaje n'inyubako zisanzwe, ibigega biri hejuru y'inzu, ibiti bigiye biri ruguru y'amazu, ubusitani bwa pasiparumu buri hafi y'amazu, imodoka iri kugenda mumuhanda w'igitaka, inyubako ya etaje itari yuzura.

Imodoka ebyiri zikurikiranye, imwe ifite ibara ry'umukara indi ifite ibara rya giri ikeye, hakaba hari umuntu uhari hagati yabo, hakurya hakaba hari inzu ndetse hakurya y'umuhanda hakaba hari n'ibiti bihateye.

Abantu babiri birikwambukiranya umuhanda barimo zebura korosingi, indabyo ku muhanda umumotari uri kuzamuka ndetse n'imodoka iri kuzamuka, undi muntu uri kumanuka hepfo.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka zirimo mu umuhanda, umuhanda w'abanyamaguru, ibyuma biri hakurya y'umuhanda w'abanyamaguru ibiti biteye, inzu ziri hakurya, amatara ku mihanda ndetse n'abandi banyamaguru.

Ifoto iratwereka mu muhanda wa kaburimbo urimo abanyamaguru, imodoka ndetse n'abamotari ikatwereka indabo ziri kuri uwo muhanda, ifoto bakaba bayifashe icuritse.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka iri kuzamuka, umuntu uri muri zebra crossing, amatara y'ubururu n'umweru, hakurya hakaba hari inzu ya etaje.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye umugenzi, ibimodoka bishoreranye, akazu k'abagenzi hakurya y'umuhanda, inzira y'aabanyamaguru, ibiti biteye ku muhanda ndetse kaburimbo ikaba itose igice kimwe.

Imihanda ibiri ya kaburimbo hagati hakaba hagabanyijwemo n'indabo, umumotari, imirongo y'umweru n'umukara ku ruhande rw'umuhanda, amapave yasenyutse igice kimwe, imodoka yapfiriye ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ubusitani buteyemo hagati, imirongo y'umweru n'umukara, imiti n'indabo biri hakurya y'umuhanda, hakaba hari n'uruzitiro rw'ibyuma bisize irangi ry'umweru hakaba hari n'indabo z'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari imirongo y'umweru n'umukara ku ruhande, hakaba harimo imirongo y'umweru y'abanyamaguru, hakaba hakurya ku muhanda hari ubusitani bw'indabo, hakaba hari imodoka ifunguye.

Imihanda ibiri ya kaburimbo, uwo hasi ndetse n'uwo hejuru, hakaba n'umuntu uri ku igare ugiye gucamo hasi, hakaba hari ikirundo bubakishije amabuye, hejuru hakaba hari indabo ndetse n'ibiti, hakaba hari n'itara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite imodoka icana amatara ibiti biri hafi ku muhanda hakurya hari umumotari, hakaba hari n'umuntu uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru, hakaba amatara ateye ku biti.

Umuhanda wa kaburimbo ibiti biri hakurya, ubusitani bwiza cyane ndetse bu buteyeho n'indabyo z'imikindo, sofiya yubakiye yandikira abashoferi bakora amakosa mu muhanda.

Imodoka ifite irangi rya ruje borudo, iri muri kaburimbo, ikaba igeze hagati muri zebura korosingi. Hakurya hakaba hari abantu bari kwambuka, hakaba hari n'undi uri kwerekeza muri icyo kerekezo abantu barimo, indabo ku muhanda ndetse n'amatara. Hakurya hakaba hari amazu.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye umugenzi abandi abamotari bari inyuma, imodoka iri kumanuka n'iri kuzamuka, ibiti hakurya y'umuhanda ndetse na jaride imbere muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo hagati hakaba hacimo imirongo y'umweru, izamuka n'itambitse yerekana ko abanyamaguru bagobma gutambuka, indabo hakurya y'umuhanda imodoka, moto, n'inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo watangiye kwangirika, undi muhanda uri hejuru y'uwo wa kaburimbo, ibiti biteye ku mpande, imodoka iri kugenda ica mu muhanda wo hasi.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya tagisi, umuntu uri ku igare, hakurya yaho hari ibiti, hakurya y'ibyo biti hakaba hari imodoka yarukururanwa, hejuru y'iyo modoka hakaba hari inzu ya etaje ndetse ikaba ari n'indi modoka yicayeho umuntu hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo, umunyonzi akaba yambukiranyije inzira y'abanyamaguru ifite amabara y'umweru, hakurya hakaba hari inzu zitandukanye, hakaba hari ibiti, hari pasuparume yicayemo abantu, hakaba hari abandi bantu bari kwambukiranya umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ibiti biteye ku muhanda, abamotari batwaye abagenzi, abanyamaguru, imodoka, ndetse ruguru y'ibiti hakaba hari amazu.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo ibice bisize iranye ry'umweru, hakaba harimo n'ibindi bice binyuranyemo bisize irange ry'umuhondo, hakurya hakaba hari feruje, hakaba ari ibiti biri ku muhanda n'amatara ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, umuntu utwaye igare, ibiti binini biri ku muhanda, imodoka, abamotari, ndetse na pasiparumu iri ruguru y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo abanyamaguru bari kwambukira ahabugenewe, umumotari utwaye umugenzi, imodoka, hakurya hari amabuye, hari etage, hari n'uruzitiro rw'indabo.

Umuhanda wa kaburimbo uriho akazu k'abanyamaguru, ibiti binini ku muhanda, imodoka, moto ndetse n'abantu, pasiparumu ziteye hakurya y'inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye imigenzi hakurya harimo imodoka zarukururana, hakaba n'umuntu uri ku igare ruguru y'imodoka hakaba hari igisambu, hakaba hari indabo ziteye ku muhanda.

Iyi foto iratwereka kaburimbo nini, harimo imihanda ijya ahantu henshi hatandukanye, hakurya hari abantu bari kugenda hari inzu ya etaje ndetse ku mpande z'iyi mihanda hari ahantu hateyemo indabo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo y'umuhondo ,abamotari, kwasiteri, imodoka y'ikamyo ndetse hakaba hari n'ibiti ku muhanda.